Umubyeyi wambaye imyenda idoze mu bitenge, ateruye umwana w'uruhinja mutoya, arimo aramuhereza umuganga kugira ngo amuvure.

Abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore babiri bicaye, hagati yabo harimo ameza ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Ni byiza gukingiza abana bakiri bato, hano hari umwana ubona ko arimo araterwa urushinge n'umuganga. wambaye uturindantoki ndetse n'impuzankano y'akazi.

Abantu barimo abakobwa abasore ndetse n'umudamu bari kuvoma amazi ku ivomero ubona ko hariho ijerekani iteretseho ndetse bashyizeho n'umubirikira.

Ishusho irimo iragaragaza ibirangantego by'imiryango myinshi itandukanye. Hariho ikirangantego cy'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana, hakaba hari ikirangantego cy'ikigo gishinzwe kwita ku isuku n'isukura amazi.

Abana bambaye imyenda iri mu ibara rya kaki bahagaze ku mugezi barimo barakaraba intoki, abandi bahanitse ibiganza bigaragara ko bamaze gukaraba.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga, akaba ari kwitabwaho n'abaganga babiri, umugabo ndetse n'umugore ndetse bakaba bamuryamishije ku gitanda cy'abarwayi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ufite n'ikindi kintu mu ntoki ubona ari gusuhuzanya n'umwana mutoya ,umugabo akaba yishimye ndetse inyuma yabo hakaba hari n'abandi bana bahicaye.

Ibiganza by'umuganga byambaye uturindantoki ndetse ikiganza kimwe kikaba gifashe urushinge, uyu muganga arimo aratera urukingo umugore wahinnye ishati yambaye.

Umwana w’ mukobwa mutoya ubona ko yishimye, arimo araseka amenyo ye asa umweru arimo aragaragara. Ateze amaboko kuri robine iteretseho hasi amajerekani bigaragara ko baje kuyavomeramo amazi.

Abantu b'abakobwa ndetse n'abamama ubona harimo umwe wakenyeye igitenge , bagiye kuvoma aho bagiye batonda umurongo bakurikije uko bagiyeyo bahagera ndetse n'amajerekani yabo.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi ndetse na baji, ari guhereza umudamu wicaye imbere ye imiti, inyuma ye hahagaze umusore wambaye akajire gafite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari abandi bantu bicaye ubona ko barimo baratanga ibiganiro ndetse basubiza n'ibibazo barimo kubazwa, inyuma y'abo bantu hari ishusho iriho andi mafoto y'abantu.

Abantu benshi bicaye mucyumba cy'inama, imbere yabo hari abandi bantu bahicaye barimo baragenda basubiza ibibazo bari kwibaza ku bigendanye n'ubuzima.

Abana bigaragara ko ari abanyeshuri, bambaye impuzankano ndetse n'inkweto z'umukara, barishimye ubona ko bateze ibiganza kuri robine iri ahantu hameze nko mu gitaka.

Abantu benshi batandukanye haba abagabo, abagore ndetse n'abana batoya ubona ko biga mu mashuri abanza.

Abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'umukobwa mutoya, umugore wambaye umupira w'umweru n'igitambaro cy'umweru mu mutwe afite umwana mutoya w'uruhinja.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo, abagore, ndetse n'abakobwa bigaragara ko bari bari mu gikorwa cy'inama, aho bari bari kwigira hamwe ku buryo bwo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu.

Kuri robine hariho umuntu uri gutega amazi kugira ngo abone ayo gukoresha mu bikorwa byo mu rugo, harimo nko guteka ndetse no gukaraba.

Abaganga bambaye impuzankano z'akazi bakaba bambaye n'udupfukamunwa ndetse n'utuntu tubapfuka mu mutwe bafite ibikarito mu ntoki bimeze nk'aho birimo imiti.

Kwa muganga hari abantu benshi baje kwivuza, ubona ko hari abaforomo ndetse n'abaforomokazi bari kugenda bafata amaraso abarwayi kugira ngo bayapime.

Hano hari abadamu batatu umwe bigaragara ko asa nk'ukuze, batonze umurongo batekereje ko umwanya wabo ugerwaho ngo bavome amazi bajye gukoresha.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko bafite ibyo bari kwigishwa ku bigendanye no kwirinda icyorezo cyateye cyitwa ebola.

Umusaza ubona ko akuze wambaye ingofero, ari gufatwa amaraso n'umuganga wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi, ndetse akaba yambaye n' amarinete n'igitambaro mu mutwe.

Kunywa amazi ni byiza kuko bifasha umubiri wacu mu bikorwa byawo ugenda ukora bya buri munsi. Uyu mwana nk'uko tubibona na we ari kunywa amazi.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu itente, harimo n'umupolisi, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi uri kubagezaho ikiganiro ku ngingo yateguye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe mbona bari kubagezaho ikiganiro ku ngingo bateguye.

Umugezi uriho abana benshi, bamwe barahagaze, abandi bafite utujerekani dutoya, barimo barareka amazi. Bari ku mugezi babanza gupompa kugira ngo amazi aze.

Ni abantu benshi bicaye mu cyumba mberabyombi kiberamo inama, bari kwiga ku ngingo yo gushyigikira ubuvuzi kugira ngo butere imbere ndetse imbere hari abandi bahicaye bigaragara ko aribo bari gutanga ikiganiro.

Abantu batandukanye; abagabo ndetse n'abagore, bamwe bambaye amataburiya y'umweru, abandi ntayo bambaye.

Abadamu bateze amaboko bameze nkaho bari kubyina ubona ko bahagurutse, inyuma yabo hari intebe z'imyeru za purasitike barishimye cyane.

Hano hari abantu, abadamu ndetse n'abagabo. Bambaye impuzankano y'akazi ndetse abadamu bakenyeye n'ibitenge, ubona ko bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ibyo bakora.

Abaforomo n'abaforomokazi, ubona bahagaze imbere y'inyubako isize ibara ry'umuhondo, yanditseho an'amagambo imbere yabo hari umugabo w'umusaza usa nk'aho ari umuzungu.

Umugabo urimo arafungurira umugezi umwana kugirango avome, yatezeho akajerekani gatoya, haraguru y'umugezi, inyuma hariho abantu b'abana; abakobwa ndetse n'abahungu, bari kunyura muri ako kayira.

Abana babiri umwe arunamye ubona ko ameze nkaho hari ibintu ari gushyira mu ndobo, undi mutoya arahagaze afite igikoresho kirimo amazi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amarinete y'umukara arimo araha umwana uteruwe n'umubyeyi we akoresheje akabido.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, bafite ibikoresho ubona ko barimo baravura umurwayi uryamye ku gitanda, bigaragara ko afite ikibazo gikomeye.

Abantu b'abakobwa ndetse n'abahungu, harimo umumama mukuru, bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'imipira ijya gusa iroza, bafite udukombe bari kunywesha amazi.

Abana babakobwa batoya bafatanye urunana bambaye imipira ifite ibara rimwe bose barishimye barimo baraseka.

Umugabo wambaye umupira ujya gusa ubururu bw'ikirere, arimo arakorera umwana Ijerekani. Hari n'umugore w'umuzungu urimo urabafotora.

Umukobwa ndetse n'umuhungu baje bagana umuganga kugira ngo abagire inama ku mibereho y'ubuzima bwabo, bigaragara ko abo bantu bakundana ndetse bitegura no kuzabana.

Umwana wambaye ishati ijya kuba nk'iya gisirikare akaba yambaye n'ikabutura iri mu ibara ry'umutuku, arimo aranywa amazi akoresheje ibiganza yateze kuri robine.

Abaganga b'abaforomo n'abaforomokazi bahagaze ubona ko bishimye, bahagaze imbere y'itente bari bateraniyemo bafite icyabahuje.

Hano ni kwa muganga hari abantu benshi bicaye ku murongo bategereje ko babakira bakabaha serivisi z'ibyo baje gushaka, hari umugore uri imbere y'abaganga bambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Abana batoya benshi cyane barahagaze bamanitse ibipapuro iruhande rwabo hari umugabo uhagaze nawe ufite igipapuro mu ntoki bigaragara ko ari we ubayoboye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama harimo abagabo, abagore bambaye imyenda itandukanye ubona ko basa nk'abateze amatwi bakurikiye icyo ubayoboye ari kuvuga.

Icyumba kiza kirimo amabara y'umweru, kirimo abaganga babiri, umwe arimo aravura umurwayi uryamye ku gitanda, undi afashe igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo bisa nkaho ari igipande cy'uwo murwayi.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore, umugore yitandiye igitambaro mu mutwe, bafite amabido abiri barimo barareka amazi yo gukoresha m'urugo, hirya y'umugezi hateye ibiti byiza kandi birebire.

Abagabo benshi batandukanye bicaye ku ntebe, hagati hari ameza ariho ibikoresho, hari n'umudamu nawe wicaye wambaye ikanzu ifite amabara ajya gusa umweru.

Mu Rwanda ahantu henshi hamaze kugera amazi meza ndetse afite isuku, turi kubona umudamu uri kuvoma kuri robine wambaye umupira w'iroza, ndetse n'ingofero usa n'uwo mupira.

Umubyeyi uteruye umwana w'uruhinja, uwo mubyeyi akaba yambaye agapfukamunwa, i ruhande rwe hakaba hari undi nawe wambaye agapfukamunwa k'umukara, bigaragara ko abo babyeyi bashobora kuba baje gupimisha abana.

Abantu benshi bigaragara ko bameze nk'abari mu nama bafite ingingo runaka bari kwigaho hagati hari umugabo uhagaze bisa nk'aho ariwe uyoboye.

Haragaragara abana bane babiri ni batoya cyane abandi bisumbuyeho, bari ku mugezi barimo baravoma amazi, hari umudamu urimo urabapompera amazi, hirya hari imodoka y'umweru.

Umuganga wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo afite umusatsi utari mwinshi, arimo arita ku mwana uteruwe n'umubyeyi we.

Abantu benshi b'abadamu bicaye bakurikije umurongo, ubona ko barimo baragenda begera muganga kugira ngo abafashe.

Umupapa wambaye amarinete y'umukara, afashe umwana we uhagaze ku munzani bigaragara ko ari kumupima ibiro afite, inyuma yabo hahagaze umugabo ndetse n'umugore.

Umukobwa ubona usutamye udafite umusatsi mwinshi; yambaye ishati iri mu ibara ritukura ndetse n'ijipo iri mu ibara ry'umukara; arimo arareka amazi yateretse ijerekani mu mabase abiri.

Abagore batatu, umugore umwe usa nk'aho akuze yambaye akajire karimo amabara y'umuhondo ndetse n'andi agiye gusa umukara. Yambaye n'uturindantoki hariho undi mugore ukigikiye umwana bigaragara ko ameze nk'uje kumuvuza.

Abana batoya bari kumugezi, bari kuvoma amazi, hari umuhungu uhari munini, uri kureba inyuma, bisa nk'aho hari ibyo bashungeye.

Abantu bicaye ku ntebe, abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, imbere y'abo bagabo hari za mudasobwa ndetse buri wese imbere ye hari n'amazi yo kunywa.

Umubyeyi witeze igitambaro yikoreye ijerekani ifite ibara ry'umuhondo ndetse ifungishije umupfundikizo utukura, iruhande rwe imbere hari umwana w'umukobwa n'umuhungu.

Abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, harimo abaganga bakora mu ivuriro. Bari imbere y'inzu yanditseho gira ubuzima, ni inzu isize irangi rijya gusa icyatsi.

Ababyeyi bambaye amajire y'icyatsi, inyuma hakaba hari abagabo bahagaze imbere y'inyubako. Biragaragara ko hari igikorwa cyari cyabahurijeho.

Umudamu w'umuzungu ubona ko asa nk'ukuze afite indangururamajwi mu ntoki ndetse akandi kaboko gafashe mu gituza cye, ameze nkuri gutambutsa imbwirwaruhame.

Abadamu batatu, umwe witeze igitambaro mu mutwe ndetse akenyeye n'igitenge, arimo arareka indobo ku mugezi, abandi babiri barimo barapompa amazi kugira ngo aze.

Umwana mutoya w'umuhungu, wambaye ishati y'amaboko magufi, iri mu ibara ry'icyatsi, arimo arakaraba intoki kuri robine. Imbere ye hari indobo ipfundikiye, inyuma ye hari ibyatsi bigufiya.

Abantu benshi batandukanye abagabo ndetse n'abagore baje gushaka serivisi, hari itete ryicayemo abandi bantu benshi ndetse hari n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye, imbere yabo hahagaze umudamu urimo urabagezaho ikiganiro, bicaye bose imbere y'ameza ariho udutambaro turi mu ibara ry'ubururu, kuri ayo meza hateretseho n'amazi yo kunywa.

Abadamu batanu bicaye bigaragara ko baje kwa muganga gushaka ubufasha butandukanye, harimo bamwe bafite imisatsi miremire.

Abamama, abagabo ndetse n'abakobwa, barimo barifotoza, bahagaze imbere y'inzu iberamo inama.

Robine abantu bavomaho amazi afite isuku. Hariho ababyeyi bari kuvoma, inyuma yabo hakaba hari abana, bisa nk'aho babategereje ngo babahe amazi yo kunywa.

Abantu bari mu nama benshi cyane bicaye ku ntebe imbere yabo ku meza hariho amazi yo kunywa ubona ko bakurikiye bateze amatwi ibyo bari kubwirwa.

Abantu bahagaze iruhande rwa robine, hariho umumama urimo urasunika icyuma kugirango ngo amazi aze, hari n'umwana mutoya urimo arareka amazi afite amajerekani atatu.

Umwana mutoya w'umukobwa arimo arakaraba intoki kuri robine hasi hateze ibase iri mu ibara ry'umukara. Uwo mwana yambaye imyenda irimo amabara atukura n'andi atandukanye.

Abana, abahungu ndetse n'abakobwa bari kuvoma amazi, hari umugabo wambaye umupira w'umweru, akaba ari kubafungurira umugezi.

Umukobwa mutoya cyane ufite umusatsi mukeya, wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, arimo aravoma amazi akoresheje igikombe kinini hari amarobine abiri.

Kwipimisha virusi itera sida ni ingirakamaro, kuko bituma umenya uko ubuzima bwawe buhagaze, hano baratubwira bati sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Umumama ubona ko abayeho mu buzima bugoye, imbere ye hari ibikoresho bitandukanye nk'ijerekani, ibase ndetse n'indobo ari kumwe n'umwana we.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'imikara, umwe yambaye ikositime y'umukara, bicaye imbere y'ameza hariho ibitambaro by'umuhondo ndetse hanateretseho amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye ku ntebe abagabo ndetse n'abagore, abandi bari inyuma yabo barahagaze, barimo barifotoza bigaragara ko bameze nkaho bari bari mu nama yiga ku bintu runaka.

Umugore uhetse umwana wakenyeye igitenge afite indobo imbere ye ameze nkaho ari kuyipfundikira.

Umumama witeze igitenge afite indobo isa umuhondo mu ntoki ndetse ku mutwe we yikoreye indi ndobo ifite ibara ry'umutuku arimo aragenda.

Abantu benshi ba baganga, ubona ko bishimye bari kwifotoza, bambaye impuzankano z'akazi, ndetse n'amabaji mu ijosi. Bari kumwe n'umugabo w'umuzungu, wambaye ikositimu y'umukara na marinete.

Hano haragaragara abana batoya bambaye impuzankano bisa nkaho ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bafite ibikombe mu ntoki barimo barareka amazi yo kunywa.

Abantu batanu batandukanye harimo abambaye amakositime, umwe yambaye kositime y'umukara, muri abo bantu harimo n'umuzungu.

Umwana wirabura w'umukobwa wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, yateze ibiganza ku mugezi ari gukaraba ibiganza bye kugira ngo bise neza.

Umudamu uhetse umwana uri kuvoma amazi kuri robine akaba ari guseka, iruhande rwe hagaze umwana wambaye umupira utukura, ndetse n'imbere ye hari undi mwana mutoya.

Abantu bahuriye ahantu bigaragara ko harimo abakoranabushake ba kuruwa ruje baje gushaka serivisi z'ubuzima, hari umugabo wicaye ku ntebe bose barimo barareba.

Umwana w'umukobwa mutoya arimo araseka, imbere ye hari ibase ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'indobo hejuru iteretse ku kuma nayo ifite ibara ry'icyatsi arimo arakaraba.

Umubyeyi wirabura uteruye umwana wambaye akagofero k'umweru, ari kuri robine yateretseho indobo y'umukara, arimo arareka amazi yo gukoresha.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'aho ari ik'inama harimo umuntu uri hagati yabo bisa nkaho arimo arababwira icyo yabateguriye.

Imodoka y'imbangukiragutabara iri imbere y'abantu benshi batandukanye harimo abana abagore abagabo ndetse hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abana babiri umukobwa n'umuhungu, ubona ko bishimye barimo baraseka baramwenyura cyane, bicaye imbere y'ameza ,umwana umwe muri bo yazamuye ukuboko.

Mu Rwanda ahantu henshi hageze amazi asukuye ariko haracyari hamwe usanga amarobine bahashyize bisaba gukoresha imbaraga kugira ngo akore, hano hari abantu baje kuvoma bari kureka amazi.

Umuhungu wambaye umupira usa ubururu ndetse urimo imirongo y'umweru, araziritse mu maguru ye, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima.

Abantu batandukanye, abagabo n'abagore, harimo umugabo umwe wambaye ishati ijya gusa ubururu bw'ikirere ndetse wambaye na baji imuranga, bahagaze imbere y'ameza asasheho ibitambaro by'umukara.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore babiri barimo barifotoza inyuma yabo hari imodoka y'umweru ifunguye umuryango.

Abantu benshi b'urubyiruko abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imipira y'ubururu hejuru ariko harimo n'abatayambaye bigaragara ko barimo barifotoza.

Abantu benshi bahagaze abagabo ndetse n'abagore, harimo abagabo bambaye imipira y'imyeru hejuru iriho ikirango cya masitakdi fawundasheni, harimo abandi bagore babiri bambaye imyenda ya siporo.

Ishusho igaragaza isange wani sitope senta, ikaba iriho ikirangantego cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya polisi y'igihugu ishinzwe gucunga umutekano.

Abantu benshi; abagabo, abagore ndetse hakaba harimo n'abasirikare. Bakaba bari bahuriye mu gikorwa cy'inama yigaga ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abana.

Umumama wicaye hasi ku musambi, yambaye umupira ujya gusa nk'igitaka yiteze n'igitambaro mu mutwe cy'umuhondo, akikiye umwana iruhande rwe hari undi mwana bigaragara ko babayeho mu buzima butari bwiza.

Abana barimo abakobwa ndetse n'abahungu barimo baraseka bambaye imipira y'imihondo ndetse biragaragara ko bishimye.

Umuntu bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe kubera ko yambaye imyenda yacikaguritse ndetse ari ahantu bamena imyanda ubona ko nta kintu bimubwiye.

Abantu benshi cyane abagore, abagabo ndetse n'abana bafite amadarapo y'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntoki zabo bigaragara ko bishimye cyane.

Abasore bambaye imipira y'imikara hejuru, imbere yabo hicaye umugore ufite imisatsi miremire bigaragara ko bari mu nama, bari gukurikira ikiganiro kiri gutangwa n'ushinzwe kukibagezaho.

Ikimodoka kirekire kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo gutangiza ibikorwa by'ubuvuzi mu karere ka Bugesera.

Umudamu wikoreye igitebo kirimo imigozi ameze nk'uvuye gukura ibijumba, ni byiza cyane kurya ibiribwa birimo n'ibijumba kuko byongera imbaraga.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'iroza ndetse imbere yabo hagiye hateretseho amazi yo kunywa, hari abandi bicaye imbere yabo bigaragara ko ari bo bayoboye iyo nama.

Abantu bambaye imipira ubona ifite ibara rimwe, imbere yabo har’umugabo ufite indangururamajwi n'urupapuro mu ntoki, ubona ko hari ibyo ari gusomaho. Hari kandi n'abapolisi bafashe icyapa cyanditseho ngo “ Kurwanya ihohoterwa n’inshingano yange”.

Abana ubona ko babayeho mu buzima bubagoye, bafite ibibazo bitandukanye, bamwe barimo bararira abandi bateze amaboko, bameze nk'aho aho bari gusaba ubufasha. Hagize icyo waba wabafasha wabikora.

Abana, abagabo, abagore, bafite amabendera mu ntoki y'igihugu cy'u Rwanda, bayamanitse, barishimye, ndetse barimo baranamwenyura.

Abantu ubona ko bicaye batuje bateze amatwi barakurikiye umuntu urimo arabagezaho ikiganiro ku ngingo runaka, bicaye mu cyumba mberabyombi cyagenewe gukorerwamo inama.

Icyumba cyicayemo ababyeyi batatu babiri muri bo bafite impinja zambaye utugofero tujya tujya gusa umweru, undi mudamu imbere ye hari terefone ku meza akozwe mu buryo bw'uruziga ubona ko asa nk'urikubagira inama.

abantu bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho, harimo umubyeyi witeze igitambaro cy'icyatsi mu mutwe, ndetse nabagabo babiri umwe wambaye umupira utukura.

Umugabo ubona ko yambaye imyenda isa nabi cyane yacitse, ahagaze iruhande rwumuhanda wa kaburimbo. Inyuma ye hari moto irimo iragenda ndetse impande z'umuhanda hari ibiti birebire.

Abantu benshi bahagaze ubona bameze nk'abari kwifotoza, bamwe baricaye abandi barahagaze. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo atagaragara neza.

Abana bahagaze begeranye, bamwe bambaye inkweto, abandi ntazo bambaye, biragaragara ko ababana babayeho mu buzima bubi bakeneye ubufasha.

Ifoto y'umugabo wambaye itanburiya y'umweru, hakaba hari amagambo yanditse mu nyuguti ntoya, bigaragara ko ari ikigo gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe i Kigali.

Umubyeyi ufite umusatsi w'umukara ubona ko yishimye ari guseka, ateruye umwana we, ufite amaso meza ndetse afite umusatsi mukeya ku mutwe.

Umusore wigunze wicaye yegamiye ku gikuta birasa nk'aho afite uburwayi kubera ko yambaye imyenda idasa neza.

Umwana w'umukobwa ubona ufite imisatsi myinshi izinze, yambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'umweru, yicaye ku ntebe ikoze mu mbaho, imbere ye hari ameza na yo akoze mu mbaho.

Inyubako ifite icyumba kiberamo inama hakaba harimo abagore bigaragara ko baje mu nama bambaye imyambaro itandukanye, imbere yabo ku meza hagiye hariho amazi ari mu ducupa yo kunywa.

Umudamu ubona ko yihebye yicaye ku kirago bamuziritse umukwege ku giti ndetse ukaba ufashe mu kaguru.

Abadamu batanu bicaye ku ntebe z'imituku, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa na mudasobwa, harimo umwe ufashe indangururamajwi uri gutanga imbwirwaruhame ku bari aho.

Ishusho igaragaraho ikirangantego cy'igihugu ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hariho kandi n'ikirangantego k'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana yunisefu.

Ikiganiro cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ku kwita ku bana bageze mu gihe cy'ubwangavu, kubera ko baba bashobora guhura n'ibibazo byo mu mutwe bitandukanye.

Umugore ndetse n'umukobwa bose bafite imisatsi y’imikara miremire, bahagaze imbere y'abantu benshi bicaye ku ntebe, bigaragara ko abo bantu bari mu nama bababwira ku bijyanye no kwita ku buzima bwabo.

Umugore wa nyakubahwa perezida Paul Kagame, akaba yitwa Jeannette Kagame. Ahagaze, ari gutanga ikiganiro ku buryo bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abakobwa babiri ubona ko bombi bishimye, umwe yambaye ikanzu iri mu mabara y'ubururu, ndetse irimo na keru gakeya, undi yambaye umupira w'umukara.

Umupapa bigaragara ko yiyubashye arunamye, imbere hari indabyo z'amabara atandukanye, yaje kwibuka abapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Umugabo w'igikara bigaragara ko yarakaye amaso ye yatukuye arimo ararira hari ibibazo yagize byamuteye agahinda kenshi cyane.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, ndetse na karuvati, ahagaze hagati y'abana b'urubyiruko bambaye imipira y'ubururu bw'ikirere, bahagaze mu nzu, bigaragara ko ari icyumba mberabyombi.

Ishusho igaragaza ukuntu imibare mu Rwanda y'abantu bapfa bazize kwiyahura ihagaze, mu myaka itandukanye uhereye muri bibiri kabiri ukagera muri bibiri na cumi n'umunani.

Abantu bahagaze bambaye imyenda ifite amabara y'umukara umweru ndetse n'ubururu bwerurutse, bahagaze imbere y'ameza ariho ibitambaro by'umukara n'indabo.

Umudamu utetse igikoma, ahetse umwana mutoya, iruhande rwe hari undi mwana nawe bigaragara ko ari mutoya, iruhande rwabo hari indobo yi'cyatsi.

Aha turabona abamama batandukanye bicaye imbere y'ameza ateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa, bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi mu bitaro, hari umuganga uri kumwitaho bigaragara ko ameze nkaho ari kumuvura amenyo, uwo muganga kandi yambaye agapfukamunwa.

Umugabo w'inzobe ufite ubwanwa bwinshi bw'umukara, afite agakoresho ari gushyira mu menyo ye kugira ngo kamufashe gukora isuku, ni byiza gukora isuku igihe cyose umaze kugira ibyo urya.

Umukobwa w'inkumi wasamye urimo uritabwaho na muganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, ufite ibisuku birebire ndetse akaba yambaye n'impuzankano.

Umukobwa ubona uri guseka yishimye w'inzobe yambaye agasengero k'umweru, arimo arakorera amenyo ye isuku akoresheje uburoso.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga, iyo barimo baravura abarwayi baje kuyivuza. Harimo n'intebe yicarwaho.

Igihe cyose umaze gufata amafunguro cyangwa se ibyo kunywa, jya wibuka guhita woza amenyo yawe ukoresheje uburoso bwiza ndetse n'umuti w'amenyo, uyu mukobwa uri aha aratwereka ko amenyo ye ayagirira isuku, ndetse akaba ameze neza.

Abana b'abakobwa babiri nibo bari kugaragara ariko inyuma yabo hari abandi, bose bafashe uburoso bifashisha basukura amenyo kugira ngo bayarinde kuba yakwangirika.

Umwana bigaragara ko ari umuzungu aryamye hasi ku gatanda; abaganga bambaye uturindantoki bamushyizeho ibyuma byabugenewe ku menyo bari kumusuzuma.

Umusore w'umwirabura uryamye ku gitanda kiryamishwaho abarwayi kwa muganga, arimo aritabwaho n'umuganga w'umugore, wambaye impuzankano y'abaganga.

Abantu batandukanye abakobwa ndetse n'abahungu bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse hariho n'umuti w'amenyo bakoresha basukura amenyo.

Abana batoya ubona ko bameze nk'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bamanitse ibiganza kandi bafitemo umuti ukoreshwa mu gihe umuntu ari gusukura amenyo.

Abaganga babiri bambaye impuzankano y'akazi umwe iri mu ibara ry'umweru undi iri mu ibara rijya gusa ubururu barimo barita ku murwayi baryamishije ku gitanda cyo kwa muganga, barimo baramuvura amenyo.

Abantu benshi abagabo ndetse n’abagore. Harimo abambaye amashati y’imyeru ndetse n’abagabo bambaye amakositime bicaye hasi. Bamwe barimo barifotoza ubona ko bishimye cyane.

Hano hari abaganga babiri umugabo ndetse n'umugore bambaye bombi udupfukamunwa, barimo baravura umwana mutoya w'umuhungu amenyo.

Umwana mutoya bigaragara ko yishimye ndetse akaba afite uburoso bwifashishwa mu koza amenyo, na we akaba ari gukorera isuku amenyo ye mu buryo bwo kwirinda ariko yafatwa.

Umusore w'inzobe cyane ugaragaza amenyo ye asa umweru biragaragara ko ari mu gikorwa cyo kuyitaho kugira ngo ayarinde kuba yafatwa n'indwara.

Umuganga wambaye impuzankano iri m’ ibara ry'umweru, ndetse n'agapfukamunwa kimwe n’ amarinete ari mu cyumba cy'ibitaro, kirimo ibikoresho bakoresha basuzuma indwara zitandukanye.

Uyu musore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga arasamye, hari umuganga wambaye uturindantoki uri kumuvura amenyo.

Inyubako yubatse mu bwoko bwa etaje hejuru ifite ibara ry'icyatsi kikaba ari ikigo cyita ku buvuzi bw'amenyo.

Hano ni mu cyumba cyo ku bitaro, harimo abagabo babiri. Umwe ni umuganga wambaye impuzankano ndetse n'agapfukamunwa. Arimo aravura umugabo wambaye umupira ujya kuba umuhondo.

Umwana uryamye ku gatanda k'abarwayi, hari umuganga wambaye uturindantoki, ubona ko ari kwita kuri uwo mwana, amuvura amenyo.

Abantu batandukanye b'urubyiruko; abakobwa n'abahungu, barimo baratonda umuronko, bagana mu itente riri aho hafi yabo, kugira ngo bahabwe ubufasha.

Umukecuru ubona ko asa nk'ukuze, afite imvi mu mutwe, afite indangururamajwi, ubona ko na we wagira ngo hari icyo ari gutanga.

Umusaza ufite ubwanwa burimo imvi, udafite umusatsi ku mutwe, arimo arapimwa n'umuganga wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, ufite imisatsi miremire yazinze neza.

Umukecuru ubona yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ateretseho agakarito karimo ibintu, arimo areherezwa n'umuforomokazi urimo uramusekera wasokoje imisatsi ye neza.

Abantu babiri umugabo wambaye amarinete ufite terefone mu ntoki, ari kumwe n'umugore ubona wafunze imisatsi ye neza. Barimo barareba igipapuro hari ibyo barimo basoma.

Umuryango ubona ko ubayeho wishimye, ugizwe n'abagabo ndetse n'abagore, bari kumwe n'abana babo barimo baraseka.

Umusaza tubona ko asa nk'ukuze afite agacupa karimo umuti, ari kumwe n'umudamu, imbere y'uwo mudamu hari mudasobwa arimo arakanda.

Umusaza mubona usa nk'ukuze ufite ubwanwa bwabaye uruyenzi, afashe mudasobwa imbere ye ndetse hari n'umukobwa ufite imisatsi miremire, hari ibintu ari kumuhereza.

Ababyeyi ubona bakuze bitwaje udukoni, barimo baragenda mu nzira, inyuma yabo hari abandi bantu barimo baraza, kuruhande rwabo hari umuhungu wambaye umupira w'umweru nawe urimo aragenda.

Umukecuru wicaye ahantu hadasa neza ubona ko ameze nk'umuntu wihebye hirya ye hari ibiti na byo ubona bidasa neza imbere ye hari amashyiga atetse mu masafuriya adasa neza.

Umugabo ndetse n'umugore barimo bifotoza begeranye, umugabo ameze nkaho ari umuforomo akaba yambaye igikoresho bifashisha bapima umuvuduko w'amaraso.

Umudamu ubona umaze gukura arimo araseka nta musatsi mwinshi afite inyuma ye hari abandi bantu barimo umumama n'abagabo babiri na bo ubona bameze nkabakuze.

Umugabo wambaye ishati itukura ndetse na marinete, yagiye kwa muganga arikumwe n'umuforomo ugiye kumusuzuma ndetse akaba arimo aranamusekera.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'amarinete ndetse n'ipantaro y'ikoboyi yicaye ku ntebe itukura ari kumwe n'umwana we ufite imisatsi myinshi wambaye umupira w'icyatsi.

Umuforomokazi wambaye impuzankano ifite ibara ry'umutuku; akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete; imbere ye hari umukecuru wateze akaboko ubona ko bari kumwitaho.

Umusaza ufite imvi z'uruyenzi yambaye ishati ya karokaro ndetse afite n'ibiryo imbere ye biteretse ku meza ari gufata imboga zo kurisha ibyo afite mu ntoki.

Umusaza ufite umusatsi wajemo imvi yambaye ishati irimo imirongo ateruye umwana mutoya ufite igipupe, uwo mwana bisa nk'aho ari umwirabura.

Abantu bahuriye ahantu munsi y'igiti ubona gifite amashami maremare, bisa nkaho barimo baraganira ku ngingo runaka zitandukanye zabageza ku iterambere.

Umugabo uri mu za bukuru ubyibushye cyane wambaye umupira w'umweru ,arimo aritabwaho n'umuforomokazi aramusekera cyane ndetse na we agaseka.

Icyumba kibamo ibikoresho abantu bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo ubona ari kumwe n'umugore uri kumwerekera uburyo bwo gukora iyo myitozo.

Abakecuru n'abasaza ubona bicaye mu nzu hasi, harimo umukecuru umwe ufite ikintu arimo araboha akoresheje ibikoresho byagenewe kuboha.

Abadamu babiri ubona ko bishimye. Umwe yiteze igitambaro gitukura mu mutwe, undi yambaye itiriningi y'umukara irimo imirongo y'umweru imanutse ku kuboko.

Umudamu ubyibushye cyane ufite imisatsi irimo imvi ndetse wambaye n'amaherena yicaye mu kagare, arimo arapimwa n'umuforomokazi ufite imisatsi miremire.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri . Harimo umugabo wambaye umupira w'umukara , arimo aragerageza gukora siporo. Ari kumwe n'umugore usa nk'aho ari umuzungu.

Kuganira ni byiza cyane kuko bituma ubasha kunguka inama zitandukanye. Hano hari abagore batatu ubona ko barimo baraganira bishimye. Hagati yabo hari ameza.

Umugabo w'umusaza wambaye amarinete y'umweru arimo arasoma igitabo, yafatishije ikiganza ke ku kananwa ako kaboko kandi gafite ikaramu y'igiti.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, harimo ibikoresho byo kwa muganga, ndetse harimo n'abantu umuganga ndetse n'umugabo uri gusunikwa n'uwo muganga, agiye kumuvura.

Gukora siporo ni byiza, kuko bituma ugira umubiri mwiza ndetse unafite ubudahangarwa ku ndwara zitandukanye. Hano hari umudamu ubona ko asa nk'ukuze ariko ukunda gukora siporo yarambuye akaguru n'amaboko.

Umugabo wicaye ku gitanda yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru, bigaragara ko ameze nk'urwaye, arimo aritabwaho n'umudamu w'umuforomokazi.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore ubona bose bageze mu zabukuru barimo baraseka barishimye bicaye mu ruganiriro iwabo, imbere yabo hari ameza ariho udukoresho dutandukanye.

Umumama ubyibushye wicaye ku ntebe yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'umupira ujya gusa ubururu bw'ikirere arimo araseka, inyuma ye hari undi mukobwa ubona ko akiri muto wazinze imisatsi yambaye impuzankano iranga abaforomo.

Umusaza wicaye ku ntebe bigaragara ko yaje kwa muganga, hari umuforomokazi urimo uramwitaho, barimo baraseka bose barishimye.

Umukecuru usa nk'ukuze ufite imvi mu mutwe arimo araseka, ahagaze mu nzu irimo amarange y'umweru, afite ikanya ndetse n'ibiryo mu ntoki.

Umusaza n'umukecuru b'abazungu ubona bishimye barimo barategura amagi bagiye gutekamo umuleti, bambaye imyenda y'umutuku kandi bose bafite imvi mu musatsi wabo.

Umusaza wambaye umukenyero ndetse n'umukecuru ufite imvi barahagaze bameze nk'aho bari mu rusengero, inyuma yabo hari abandi bantu benshi.

Umusaza ndetse n'umukecuru ubona ko bishimye cyane barimo barahoberana bafatanye ku rutugu, umukecuru yiteze igitambaro gitukura mu mutwe ndetse arimo araseka.

Abagore batatu; umwe usa nk'aho akuze, afite telefone mu ntoki, bisa nkaho hari ibintu arimo arereka abandi, muri telefone ye.

Umusaza ubona ko akuze cyane, ufite imvi z'uruyenzi, wambaye amadarubindi y'umukara, aricaye ku ntebe, ari kwandika ibintu mu ikayi.

Abadamu batatu ubona ko bari mu gikorwa cyiza cya siporo, inyuma yabo hari abandi bahungu babiri na bo ubona ko bari muri icyo gikorwa.

Abagore batatu, babiri muri bo bakaba bambaye imipira y'imyeru, undi uri hagati akaba yambaye umupira w'umuhondo. Bose bafite imisatsi isa umweru. Barimo barifotoza baseka, bishimye.

Umusaza ubona ko ageze mu za bukuru, afashwe mu maboko n'umudamu ndetse n'umugabo, kugira ngo bamufashe guhaguruka aho yari aryamye.

Hano hari ibiribwa bitandukanye umuntu ashobora gufata bikungahaye ku ntungamubiri zishobora kugirira umubiri akamaro.

Abagabo babiri bafite ibitabo mu ntoki, bari gusuhuzanya, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abaganga bambaye udupfukamunwa bambaye n'imyenda ibahishe ahantu hose, bigaragara ko ari abaganga bashinzwe kwita ku bantu bafite indwara z'ibyorezo zandura ku buryo bwihuse.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo ubona bari kwifotoza bishimye bamanitse intoki inyuma yabo hakaba hari icyapa kigaragaza igikorwa bari barimo cyerekeranye n'ubuzima.

Umudamu uhagaze imbere y'abandi bantu afite indangururamajwi arishimye arimo aramwenyura asa nkaho ari gutambutsa imbwirwaruhame ye yabageneye.

Umuforomokazi wambaye impuzankano, afite ku rutugu igikoresho bakoresha bapima uko umutima, uko umutima utera, ndetse n'umuvuduko w'amaraso, yambaye mu mutwe ikimurinda kwandura.

Hano ni kwa muganga aho hari umudamu wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ishati y'umweru, ufite ibisuko ku mutwe, barimo baramutera urushinge ubona yarutinye cyane.

Abakobwa ubona ko batari bato cyane, bicaye mu ntebe imbere yabo hari ameza, afite ibitambaro bitandukanye, barishimye barimo baraseka bakurikiye ikiganiro.

Umusore wambaye agapfukamunwa kajya gusa ubururu, ndetse n'ishati y'ubururu; wagiye kwa muganga. Hari umuganga urimo uramufata amaraso, ndetse na we akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero.

Abantu benshi bicaye abagore ndetse n'abagabo bisa nkaho bari barimo gukora inama biga ku bigendanye n'ubuzima, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ngombwa kujya kwisuzumisha igihe cyose wumva mu menyo yawe ahatameze neza, hano hari umugabo wagiye kwivuza amenyo aho ari kwitabwaho n'abaganga.

Abantu bafite icyapa cyanditseho rubyiruko nimwe hazaza heza hu'uru Rwanda, irinde virusi itera sida, ipimishe uyu munsi ni ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, harimo umudamu ufite imisatsi miremire, wambaye n'umupira w'umukara, urimo gufatwa amaraso n'umuganga ubishinzwe.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi ari mu ibara ry'umuhondo, haragaragaraho ikirangantego cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse hariho n'amagambo avuga ngo gufata urukingo rwa kovidi cumi n'icyenda nibwo buryo bwo kwirinda.

Umubyeyi witeze igitenge, yicaye imbere y'aba ganga bafite ibikoresho by'ubuvuzi ku meza bisa nk'aho yaje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Abantu barindwi, abagabo batanu n'abagore babiri. Abagabo ni abirabura, abagore ni abazungu. Bigaragara ko bafite icyabahuje.

Hano ni kwa muganga, hari icyumba kirimo abaganga bigaragara ko bari mu isuzumiro hari ibyo bari gusuzuma, hari kandi insakazamashusho iri ku gikuta.

Urubyiruko rw'abakobwa bahuriye ahantu hamwe bambaye imipira y'imyeru hejuru ndetse n'amapantaro agiye atandukanye barishimye barimo baraseka.

Abantu benshi cyane, harimo abamama, abagabo, abakobwa, bahagaze ku murongo, barimo barifotoza. Ku ruhande rw'iburyo hahagazeho umudaso.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi y'umukara imutse igeze mu ijosi, yambaye ishati iri mu ibara ry'umutuku, hariho n'amagambo agaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga ku Isi wahariwe kwita ku buzima.

Abantu benshi, bamwe baricaye, abandi bahagaze inyuma yabo, bigaragara ko bari bahurijwe hamwe n'inama yiga ku isinywa ry'amasezerano n'imikoranire y'ubuvuzi muri Afurika.

Abadamu bane bose bafite abana b'impinja biragaragara ko babazanye kwa muganga kubahesha urukingo rugezweho.

Abayobozi batandukanye bicaye imbere y'abandi bantu benshi, harimo umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, ubona ko afite umwanya ari kugeza ku bamukurikiye imbwirwaruhame yabateguriye.

Kanseri dushobora kuyirinda bishoboka binyuze mu gufata indyo yuzuye dukora siporo kugirango ngo turinde umubyibuho ukabije ndetse tukirinda no kurya ibiryo byanduye.

Ishusho igaragaza amagambo yanditse mu buryo buhinnye asobanura ikigo cy' igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Icyapa kigaragaza itangazo ryagenewe urubyiruko, cyikanarukangurira kugira uruhare mu gufata iya mbere mu gushakira ibisubizo ikibazo cya virusi itera sida muri Afurika.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama ubona ko bisa nkaho ari abaganga, bicaye bateze amatwi, bakurikiye umuntu uri imbere y'abo.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etaje, imbere yayo hariho icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iyo nzu. Hari kandi n'imbuga iteyeho amapave.

Hano ni kwa muganga, haragaragara icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gutunganya ibinini ndetse no gupima indwara ziba ziri mu mubiri ariko zidapfa kugaragara, urugero, hari icyuma cya mayikorosikopi.

Inyubako nini kandi nziza cyane yubatse mu buryo bwa etage. Iyi nyubako niyikigo nderabuzima cya Nyaruyenzi.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amabuye asa umukara bisa nkaho ari amakoro, hari n'indabyo ziteye imbere yiyo nzu.

Icyumba cyo kwa muganga ubona kirimo ibitanda bitandukanye biryamishwaho abarwayi iyo bagize uburwayi bakaza kwa muganga barembye.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo amarido ku mpande ndetse harimo n'ibitanda biriho amashuka afite ibara ry'icyatsi, kikaba ari icyumba cyifashishwa baryamishamo abarwayi barembye cyane.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye harimo haragaragara icyapa cyanditseho umujyi wa kigali hari n'udukoresho bakoresha iyo barimo bariga imodoka.

Kwa muganga haba hari ibitanda baryamishaho abarwayi igihe barembye cyane kugira ngo babone uko babitaho babari hafi kandi biboroheye.

Inyubako nziza cyane yubatse ku buryo bugezweho, hejuru harimo amakaro y'umweru ndetse hari n'amatara ari kwaka. Biragaragara ko iyi nzu ari ikorerwamo ubushakashatsi.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, imbere yayo mu mbuga haparitse imodoka zo mu bwoko butandukanye, hahagazemo n'umuntu wambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare ndetse n'ipantaro y'umukara.

Inzu ikorerwamo serivisi zo gucuruza imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hano bigaragara ko ari muri farumasi yitwa porogeresi.

Abagabo babiri umwe wambaye ijire y'umukara iriho amagambo avuga ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima, undi mugabo inyuma ye hari amagambo avuga ngo irembo.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari etaje igizwe n'ibice bibiri, ifite uruzitiro rw'ibyuma bifite irangi ry'umutuku, imbere y'urwo ruzitiro hariho imodoka ihaparitse ifite ibara ry'umweru.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite amadirishya arimo ibyuma by'umweru, ikaba ifite amakaro hasi yanditseho ko ari inzu y'ababyeyi.

Inyubako zubatse neza ku buryo bugezweho bigaragara ko hashobora kuba ari ku bitaro, hari icyapa kigaragaza buri gice aho giherereye nk'icyumba cy'ababyeyi, icyumba cy'abagore ndetse n'icyumba cy'abagabo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo umuforomokazi, w'umukobwa mwiza, ubona ko yaboboshye imisatsi ye mu buryo bwa derede. Hari ibyo ari kumva, ateze ugutwi.

Icyumba cy'inyubako kirimo ibikoresho byo kwa muganga harimo ibitanda biryamwaho n'abarwayi igihe barwaye cyane bakabaha aho baryama kugira ngo babiteho biboroheye.

Inzu zisakaje amabati atukura ubona ko hari n'izubatse mu buryo bwa etaje, harimo abantu bari kugenda bazamuka bajya gushaka ubufasha butandukanye ndetse hakaba hari n'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Icyumba cy'inyubako y'ubuvuzi, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse hari n'akarango kagaragaza ko hari aho binjirira, hirya hari umumama bisa nk'aho ari umuzungu urikuza.

Umurwayi w'umugabo ubona yambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umweru, aryamye mu cyumba cyo kwa muganga mu bitaro bamushyizemo serumu.

Inzu y'ibitaro, yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi bigufiya, ndetse n'itara rimurikira ubwo busitani.

Abakobwa cyangwa se abadamu b'abaganga bambaye impuzankano y'akazi bambaye udupfukamunwa ndetse bose bafunze igipfunsi bameze nk'aho bari kwifotoza.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati ajya gusa icyatsi, ikaba isize amarangi y'umweru, ifite n'amadirishya y'icyatsi, hariho ikigega gifata amazi avuye kuri iyo nyubako.

Ibi ni ibiti biri mu bitaro bya Kabgayi, hakaba hari n'amarembo ariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Iyi ni inyubako nziza cyane, ubona yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya gisirikare.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, hejuru 'y'umuryango hakaba hariho icyapa, bigaragara ko ari farumasi ikorera i Kanombe, ikaba ikorana n'ubwishingizi bwa MISUR na Britamu.

Iyi ni inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, hejuru hateye irangi risa umweru, iyi nyubako ikaba iriho amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara, avuga ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere, kikaba giherereye mu karere ka Burera.

Abagore ndetse n'abagabo bahagaze imbere y'inyubako, yanditseho Rwamagana hosipito, ibi ni ibitaro byo mu karere ka Rwamagana.

Mu cyumba k'ibitaro kwa muganga, hakaba harimo abantu benshi, bigaragara ko bafite ibyo barimo barasuzuma, bambaye impuzankano y'mweru.

Inzu ya etage isize amarangi y'icyatsi ikaba inasakaje amabati yubururu, imbere yayo hari abantu bahagaze ndetse hanaparitse imodoka.

Umugore wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ufite umusatsi utari muremure cyane, arimo arapima umwana we w'uruhinja kugirango amenye ibiro afite.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bigaragara ko harimo abazungu ndetse n'abirabura bari barimo bifotoza bari ku cyapa cyanditseho ibitaro bya Butaro.

Iyi ni inzu yubatse neza mu buryo bugezweho, isakaje amabati atukura, harimo abanyeshuri ndetse hejuru hariho n'icyapa kigaragaza ko ari ikigo gishinzwe kurera abana b'abakirisitu.

Icyumba cyo kwa muganga bigaragara ko ari icyumba kibikwamo ibikoresho, ndetse n'ibipimo byafashwe abarwayi. Hagaragaramo abaganga babiri bambaye udupfukamunwa.

Abantu benshi batandukanye harimo abambaye imyenda ijya gusa icyatsi, hirya hari inzu isakaje amabati y'icyatsi ndetse hari n'inyubako iteyeho irange ritukura.

Inzu yubatse mu buryo bwa etaje, mo imbere harimo abaganga basa nk'abari kwita ku barwayi. Ku muryango hari umuntu uhegamye, ndetse n'undi mubyeyi uteraye mwana, uje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ameza y'uruziga afite ibara ry'umweru ndetse nay'umukara, harimo kandi intebe zirimo imifariso n'ibiti biteye mu ma vase.

Abaforomo n'abaforomokazi bahagaze imbere y'inzu ya isange one sitopu senta y'ibitaro by'akarere ka huye.

Abaforomokazi bambaye imyenda y'akazi bahagaze imbere y'inzu nziza yubatse muburyo bwa etaje ndetse handitseho inzu y'ababyeyi.

Icyumba cyo ku bitaro ubona ko kirimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo barwariye muri ibyo bitaro, harimo inzitiramubu zimanitse hejuru ya buri gitanda ndetse hakabamo umudamu ubona ko ari umuforomo ubirimo.

Umugabo w'umuganga ufite igikoresho ku rutugu gipima umuvuduko w'amaraso yambaye impuzankano yakazi arikumwe n'umudamu wirabura wambaye ikanzu irimo amabara menshi.

Ibitaro byubatse mu buryo bwa etaje hasi hariho abantu ibi bitaro n'ibitaro bikorera mu Rwanda mu mujyi wa kigali byitiriwe umwami fayizari.

Abaganga batatu bari mu cyumba cy'ibitaro bambaye impuzankano y'akazi ndetse n'uturindantoki turi mu ibara ry'iroza, ubona ko bari bishimye bafashe ku meza ari imbere yabo.

Umudamu ukiri muto waje gushaka serivisi z'ubuzima ku bitaro, yicaye imbere y'umuforomokazi nawe bigaragara ko akiri mutoya wafunze imisatsi, yambaye n'impuzankano y'akazi ndetse inyuma ye hari undi muforomo.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, hejuru yiyo nyubako hariho ibigega bifata amazi igihe imvura yaguye ndetse hari n'iminara, imbere muri iyo mbuga y'iyo nyubako harimo imodoka irimo irasohoka.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga mu bitaro, harimo umurwayi uryamye wiyorosha amashuka meza, hejuru ya buri gitanda hamanitseho inzitiramibu.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari ibitaro bizwi cyane nko kwa Nyirinkwaya, hariho ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda nurwara uzabagane bazagufasha.

Inyubako nziza cyane, zubatse mu buryo bwa etaje, zisize amabara y'umweru, ndetse harimo n'amatafari atukura, ari kugaragara. Imbere yazo harimo haraca abantu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari imbuga ziparitsemo imodoka zifite amabara atandukanye, iyo nzu ikoreramo ubuvuzi yitwa porikirinike doretwari.

Hano ni kwa muganga, aho hari umuganga urimo uravura umwana, ndetse umwana akaba arimo ararira. Yazanye na papa we kumuvuza.

Ku bitaro haba inzu y'ababyeyi ariyo yifashishwa n'ababyeyi gihe bagiye kubayara, hano hari inzu isize amarangi y'umweru inasakaje amabati y'icyatsi.

Inzu nini yubatse mu buryo bwa etaje, hasi ku rubaraza harimo haragendera abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bigaragara ko ari abaganga, hano ni kwa muganga.

Inyubako yubatse mu buryo bwayo etaje ikaba isize amarangi y'umweru ndetse harimo n'amatafari atukura iriho icyapa kigaragaza ko ari ku biro bishinzwe gutanga amaraso.

Kwa muganga, abantu bahabonera serivisi zitandukanye. Hano hari abaganga bicaye mu cyumba ndetse n'abarwayi baje gushaka serivisi. Turabona umudamu wicaye mu kagare uri gupimwa n'umuforomokazi.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga w'umukobwa ari kwitabwaho n'abaganga babiri barimo umugabo ndetse n'umugore.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda kiryamishwaho abarwayi, igihe bagiye kubaha ubufasha, harimo abaganga ndetse n'umuntu wagirango ngo yari yaje kwivuza.

Hano hari inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'inini ari yo twita farumasi, imbere yayo haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse ku ruhande bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda.

Indabyo ubona ko zitangiye gusaza, imbere yazo hari agahanda karimo amapave ashaje, inyuma y' izo ndabyo hari urwinjiriro rwanditseho amagambo avuga ngo ibitaro bya nyarugenge.

Aha ni kwa muganga turimo turabona umugabo baryamishije ku gatanda karyamishwaho abarwayi hari n'umuganga urimo uramwitaho.

Inzu nziza hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru kari kunyuramo umuntu, hari irapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'ubusitani bwiza buteyemo pasiparumu.

Inyubako nziza isize amarangi ajya gusa icyatsi, ikaba inasakaje amabati y'icyatsi, imbere yayo hari abantu ndetse n'imodoka ihaparitse.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'umweru hateyeho n'irangi ry'umweru, hari imitwe y'abantu irimo iragaragara, inyuma hari ahasize amarangi y'umuhondo.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye iyo nyubako ikaba isakajwe amabati atukura hariho inyuma yaho ibyatsi bitoya ndetse n'ururabyo.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwa etage haparitseho imodoka iri mu mabara y'umweru imbere y'iyo nzu hari igiti cy'umukindo.

Abantu benshi bari mun nzu barahagaze batonze umurongo bigaragara ko baje gushaka serivisi z'ubuzima bakurikiranye uko bagiye bahagera.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bitandukanye abantu bifashisha, ni byiza gukora siporo kuko bituba imitsi yawe igororoka.

Inzu nyinshi kandi nziza, harimo ubusitani buri imbere yayo, ndetse hateyemo n'ibiti by'imikindo, harimo n'abantu bicaye muri ubwo busitani.

Inyubako nziza cyane yubatse neza, ubona isakaje amabati asa umutuku, imbere ku rwinjiriro hariho ahantu hateye ubusitani burimo ibiti bigufiya.

Abantu barimo abagabo n'abagore, harimo umugore uhagaze imbere y'ameza bigaragara ko hari ibyo arimo aravuga, bicaye imbere y'inzu y'ababyeyi yifashishwa igihe bagiye kubyara.

Icyumba k'inzu kirimo ibikoresho by'ubuvuzi, harimo intebe zirimo amabara y'umukara, ndetse hari n'amafoto y'abantu harimo n'uwambaye amadarubindi.

Abaganga batatu b'abaforomokazi, bambaye utugofero tw'umweru mu mutwe, n'impuzankano iri mwi ibara ry'ubururu bw'ikirere, inyuma yabo hirya hari ibiti bitandukanye.

Ikigonderabuzima cya Matyazo, giherereye mu karere ka Huye, harimo harava abantu bavuye ku ivuza indwara zitandukanye, ku ruhande, hari umuhanda wa kaburimbo urimo uranyuramo abagenzi.

Inyubako z'ikigo nderabuzima cya kigina harimo inzu zisize amarangi y'umweru zisakaje amabati ajya gusa ibara ry'icyatsi, hari umugore uhetse umwana urimo arahagana.

Icyumba cyo kwa muganga kiba kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga ndetse n'abarwayi, hano hari igitanda kiryamyeho umurwayi ndetse harimo n'umugabo bigaragara ko ari umuganga urimo arazinga inzitiramibu.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma, imbere yarwo hari ibyuma biriho ibyicungo abana baza kwicungamo bikagufasha kutazerera.

Inzu ifite umuryango yubakishije amatafari ahiye, hejuru y'umuryango handitseho amagambo avuga ngo ''isange one stop center'', bikaba bigaragara ko ari ahantu bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inzu nziza cyane yubatse neza mu buryo bwa kadesitara isakaje amabati y'icyatsi, ku muhanda imbere yayo hari ubusitani ndetse n'icyapa kigaragaza ko ari ku biro bya polisi ikorera mu karere ka Huye.

Abagore batatu, umugore umwe bigaragara ko ari umuforomokazi wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ritukura yambaye na marinette ndetse n'uturindantoki, abandi bagore bari imbere ye bigaragara ko baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etage ifite imbuga ishashemo amapave ndetse n'ubusitani imbere yayo, hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge.

Icyumba cy'inyubako kirimo kiragaragaramo ameza akikijwe n'intebe z'umukara, ndetse ku mpande zombi hari intebe zirimo imifariso.

Inyubako iriho icyapa ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda, imbere yaho haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara, ndetse n'icyapa kigaragaza ko gutanga amaraso ari ingenzi.

Abantu bicaye ku ntebe z'imbaho, biganjemo abageze mu zabukuru, imbere yabo hicaye abagabo babiri, bari kubagezaho ikiganiro, ku kumenya ihohoterwa rikorerwa abageze mu zabukuru.

Inyubako irimo icyumba gifite ibitanda bigaragara ko ari kwa muganga, ibyo bitanda babiryamishaho abarwayi igihe baje kwivuza barembye mu buryo bwo kugira ngo babakurikirane babari hafi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya matyazo harimo abantu bari guturuka muri icyo kigo nderabuzima ndetse hari n'inzu isakaje amabati y'ubururu.

Ni byiza buri gihe gukora imyitozo ngororamubiri kuko ifasha kugira ubuzima bwiza. Hano hari umugabo ndetse n'umugore we barimo barakora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda ya siporo.

Umugabo wambaye agasengero k'icyatsi avuye gukora imyitozo ngororamubiri, arimo arimenaho amazi mu maso kubera ibyuya yari yabize.

Umusore wambaye agasengeri gafite ibara ry'ivu, ubona yasobekeranyije amaboko ye bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri myinshi.

Umusore wambaye isaha ndetse n'agakabutura hejuru nta myenda yambaye ari gukora siporo yarambuye akaguru agafatishaho akaboko ke k'iburyo.

Igipapuro kigaragaza imyitozo itandukanye ndetse n'imikino umuntu ashobora kujyamo kugira ngo akore siporo ndetse bimufashe kuba ubuzima bwe bwarushaho kugenda neza.

Abantu babiri bari mugikorwa cya siporo umwe yambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, arimo aragenda mu mirongo isa umweru.

Gukora siporo ni byiza cyane kuko bifasha mu igogora ry'umubiri bikagabanya umujagararo ndetse bikanagabanya umuvuduko w'amaraso igihe waba uwufite.

Umurwayi uri mu bitaro kwa muganga, ubona ko yaryamishijwe ku gatanda k'abarwayi, arimo aritabwaho n'umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Umukobwa wambaye umupira mwiza cyane w'umutuku, arimo aranywa amazi yambaye ekuteri ndetse afite umusatsi muremure w'umukara.

Ugihe umaze gukora siporo ugomba kunywa amazi, kugira ngo wongere kugarura imbaraga uba watakaje muri cya gihe wari uri gukora siporo.

Umugabo urimo uranywa amazi, ufite ubwanwa butari bwinshi, akaba afite n'ikizigira cy'ukuboko kibyibushye, bigaragara ko akunda gukora siporo.

Umuganga wambaye impuzankano, urimo urafasha umugore wambaye ipantaro y'umukara kunanura amaguru, ibi bituma agira ubuzima bwiza kuko imikaya ye iba inanutse.

Abantu benshi bari mu gikorwa cya siporo, bakaba barimo abagabo ndetse n' abagore. Bari kuyikorera mu mbuga ishashemo amapave.

Umugabo w'umuzungu, ubona arimo aranywa amazi, yashyize agatambaro gafite ibara ry'umuhondo mu ijosi, bisa nkaho avuye gukora siporo.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi, arimo aravura umukobwa, bigaragara ko ashobora kuba yagize ikibazo ku kuguru, mu gice cyo ku ivi.

Icyumba kirimo ibikoresho bya siporo, kirimo aba mama babiri n’umwana muto bigaragara ko basa nkabari gukora siporo, hirya inyuma yabo har’undi mudamu wicaye uri gukora nawe siporo.

Umuntu w'umukobwa urimo aranywa amazi bigaragara ko yarari mu gikorwa cya siporo, yashyize agatambaro k'umweru ku rutugu rwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amakaro y'umweru harimo abantu benshi ubona bari gufata amasomo, imbere yabo hari umwarimu urimo arabigisha.

Umuti wifashishwa n'abantu bamaze gukora siporo, ukaba ubafasha mu kunanura imitsi ndetse ukaba ushobora no kugabanya ububabare.

Ni byiza gukora siporo kuko birafasha cyane mu buzima, uyu mukobwa nawe rero nk'uko tubibona arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa wambaye inkweto zifunze, urimo urakora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba yambaye n'imyenda yifashishwa mu gukora siporo. Yahinnye ivi, arimo arananura akandi kaguru.

Igikoresho kirimo imiti itandukanye ikoreshwa kwa muganga bavura abarwayi baba baje babagana, harimo ibinini ndetse n'ikifashishwa mu kuzirika aho umuntu aba yakomeretse.

Umusore wambaye imyenda y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara arimo arakora imyitozo ngororamubiri, ahagaze ku kantu gafite ibara ry'umukara, imbere ye hari umukobwa urimo uramufasha gukora iyo myitozo.

Aba ni abana bameze nk'aho hari umukino bari bari kureba ukinishwa amaboko bakunze kwita basiketi boro, hari umugabo usa nk'ukuze na we wari waje kwihera ijisho.

Umuntu uri muri siporo warambuye amaboko, agahina n'akaguru kamwe akandi karambuye yambaye inkweto z'umutuku imbere ye hari icupa ririmo amazi.

Umukobwa usutse imisatsi miremire yayizinze, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye isengeri ndetse n'isaha ifite ibara ry'umukara, yahinnye akaboko ke arimo aragakoza inyuma mu mugongo.

Ni byiza gukora siporo kuko ituma ugira ubuzima bwiza, uyu musore nawe nk'uko tubibona ari muri siporo yazamuye akaguru arimo arakarambura yagafatishijeho akaboko, akandi kaguru gahagaze hasi.

Akagare kifashishwa kwa muganga mu gutwara abantu bafite ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe by'umwihariko abatabasha kugenda.

Gukora imyitozo ngororamubiri birafasha cyane, kuko bituma umubiri wawe urushaho kumera neza, hano hari umusore uri mu gikorwa cya siporo, bigaragara ko yarambuye amaboko akaguru ke yagahanitse hejuru.

Abakobwa bambaye amasengeri ndetse n'amakabutura bari mu gikorwa cya siporo, biragaragara ko bameze nk'abari kwitoza gukina mu umukino w'intoki witwa basiketiboro.

Umugabo urimo aranywa amazi nyuma yuko avuye muri siporo kugirango amufashe kugarura imbaraga yari yatakaje, yiteze isume mu ijosi ndetse afite n'ubwanwa bwinshi.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi, afite ikintu gipima umuvuduko w'amaraso ndetse n'ububuryo umutima uri gutera; arimo arareba neza aho umurwayi yakomeretse ku ivi.

Umudamu ufite imisatsi miremire arimo aranywa amazi bigaragare ko avuye muri siporo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugore cyangwa se umudamu bigaragara ko ari muri siporo, yambaye imyenda y'umukara, imanutse igeze ku maguru, aragaragara ari gukora siporo yahinye amavi.

Umukobwa w'inzobe ufite imisatsi miremire, wambaye imyenda ya siporo bifashisha mu gukora imyitozo ngorora mubiri. Nawe we ari muri icyo gikorwa aho yazamuye amaboko ye hejuru.

Siporo ni igenzi mu buzima. Hano hari umukobwa urimo urakora siporo, yahinnye akaguru kamwe akandi yakarambuye, agafatishijeho amaboko ye yombi abiri.

Ishusho igaragaza ibiryo umuntu umaze gukora siporo agomba gufata kugira ngo agarure imbaraga, harimo: amagi, wotameroni, inkeri, imineke ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuganga urimo urafasha umusore bigaragara ko yari yagiye muri siporo maze akagirirayo ikibazo ku kaguru ke k'iburyo.

Umusore wambaye isengeri, iri mu ibara rijya gusa n'ivu, ubona ko afite ikizigira kinini, arimo aranywa amazi, bigaragara ko avuye muri siporo.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara, akaba yarambuye amaboko yazinze n'umusatsi we neza bigaragara ko ari muri siporo, gukora siporo ni byiza kuko bifasha umubiri.

Umusore ubona ko abyibushye, yakoze imyitozo ngororamubiri myinshi. Arimo arankwa amazi avuye muri siporo yambaye ekuteri mu matwi ndetse na gapira k’ umweru.

Umugore ufite imisatsi miremire, wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, yazamuye amaboko arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bimufashe.

Umusore ubyibushye cyane ubona ko ameze nkaho ari muri siporo, yambaye agasengeri ndetse yazamuye amaboko afashe inyuma ku mutwe, ari kurambura amaboko ye.

Ibiganza by'umuntu bifashe ibintu bitandukanye harimo avoka, karoti, ubunyobwa ndetse n'inyanya kuruhande hariho inkweto.

Iki ni icyumba kibamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri turimo turabonamo umudamu uri gukora siporo yifashishije ibyo bikoresho.

Hano ni kwa muganga haragaragara abantu batandukanye harimo abaganga barimo baravura umusore uryamye ku gitanda cy'abarwayi, bigaragara ko barimo baramuvura akaguru.

Abakorerabushake ba kuruwa ruje babiri barandasa umuntu bisa nkaho yavunitse kugira ngo bamuhe ubufasha bw'ibanze bwo kumuvura abashe gukira.

Uyu ni umukobwa cyangwa se umudamu ufite imisatsi y'ibisuku miremire ubona yazinze inyuma agahambirizamo akadodo, yazamuye amaboko arimo arayananura.

Abantu babiri umwe aryamye ku gitanda bombi bambaye imipira y'imikara hejuru barimo barakora imyitozo ngororamubiri uryamye ku gitanda afite terefone mu ntoki.

Kwa muganga hariho ibikoresho bitandukanye haragaragara umuganga urimo urapima umwana indwara y'amaso arikumwe na mama we umuteruye.

Umugabo wicaye ubona ko afashe ku kaboko ke hariho igitambaro cy'icyatsi bisa nkaho yari yakomeretse bakaba bari bamupfutse.

Abakobwa babiri bambaye amasengeri bari mu gikorwa cyo gukora siporo, bafite amacupa y'amazi mu ntoki banywa iyo bagize inyota.

Umuntu w'umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara, arimo aranywa amazi ari mu icupa ry'umweru, arifatishije akaboko kamwe.

Umugabo wambaye ikote bigaragara ko ari kunywa amazi asa nkaho avuye muri siporo akaba arimo araruhuka kugirango yongere agarure imbaraga yakoresheje.

Umuntu w'umusore urimo uranywa amazi bigaragara ko akunda gukora siporo, yambaye umupira ujya gusa icyatsi ndetse afite na ekuteri mu ijosi.

Icyumba mberabyombi kibamo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kizwi nka jimu, harimo abantu babiri uri gukora siporo ndetse n'undi urimo aramufasha kuyikora.

Umukobwa uri muri siporo, akaba yunamye, yafatishije ibiganza bye ku birenge ndetse akaba arimo araseka. Gukora siporo ni byiza cyane kuko bifasha umubiri.

Hari imyitozo icumi wakora igihe wananiwe mu bwonko hari iyo wakora wicaye ndetse n'indi ushobora gukora uhagaze harimo nko kuba wahagarara urambuye amaguru yawe neza adasobanye.

Umugabo ubona ko abyibushye cyane arimo arisuka amazi mu maso kubera ko yari avuye mu gikorwa cya siporo akaba yaramaze kubira ibyuya.

Umuntu w'umugabo wambaye isaha iri mu ibara ry'umukara bigaragara ko yari avuye muri siporo ariko akaba agize ikibazo bisa nkaho agize imvune ku kuguru kwe mu gice cyo ku ivi.

Ni byiza gufata indyo yuzuye ikubiyemo ibinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri, hano harimo indimu, ubunyobwa, inkeri, inyanya ndetse n'imboga.

Hano hari ibiribwa bitandukanye biribwa n'abantu bamaze gukora siporo by'umwihariko harimo amagi, karoti, urusenda, amashu ,ubuki, ubunyobwa, inanasi ndetse n'ibindi bikomoka ku nyama.

Imbangukiragutabara iri mu muhanda wa kaburimbo, bigaragara ko imbere yayo hari umuhanda uzamuka ndetse n'umanuka.

Mu muhanda uciyemo imirongo y'umweru harimo abahungu batatu bambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto nazo za siporo, barimo barirukanka bameze nkaho bari mu masiganwa yo kwiruka.

Umugabo ubyibushye usa nkaho ananiwe yarari mu gikorwa cya siporo, yicaye mumuhanda wa kaburimbo hirya hari undi muntu bigaragara ko nawe arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Iki ni igikoresho bifashisha kwa muganga, iyo barimo barapima ubushyuhe bw'umuntu waje kwivuza kugira ngo bamenye niba umubiri we ushyushye cyane cyangwa se ukonje.

Ikirango kigaragaza ikigo cy'igihugu gikora mu Rwanda cyitwa kuruwaruje gishizwe gukwirakwiza amaraso ndetse no kuyatanga ahantu hatandukanye yifashishwa mu bitaro mu kuyaha abarwayi.

Izi ni inkweto z'umukara ndende zisa nkaho zikunze kwambarwa n'abashinzwe umutekano cyangwa se abo twita abasekirite barinda ahantu runaka.

Agacupa k'amazi ya nili gafashwe n'ikiganza cy'umuntu utari kugaragara, batubwira ko kunywa amazi ari byiza kuko bifasha umubiri wacu kugira buzira umuze.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bifasha ubuzima kugenda neza. Hano hari umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye imyenda ya siporo, akaba arimo arayikora asunika ikintu kiri imbere ye.

Abana, abahungu ndetse n'abakobwa bakiri bato bari mu gikorwa cya siporo, harimo umumama ndetse n'undi muntu uhagaze imbere yabo wambaye umupira w'umweru uri kubererekera ibyo bakora.

Umu mama ubona w'inzobe wambaye umupira w'umutuku ndetse na kajire afashe ku mutwe w'umwana arimo aramurika mumaso y'uwo mwana amusuzuma niba yaba afite ikibazo.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo ,arimo arakora siporo. Yarambuye amaboko ndetse arimo arakora ku kaguru na ko yarambuye akananura.

Umuntu uvuye muri siporo, bigaragara ko ashobora kuba yangiritse, hari undi wambaye umupira w'umukara uri kumufasha, akaba ari kuzinga ikintu ku kirenge cye.

Umukobwa urimo uranywa amazi bigaragara ko avuye mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri aribyo twita siporo afite isume ku rutugu.

Gukora siporo nibyiza hano hari umukobwa uri gukora siporo yambaye agasengeri k'umutuku yambaye na kuteri yazamuye amaboko ari kuyananura.

Umuntu ufite imisatsi miremire ariko ifite ukuntu iboshye ari mu gikorwa cya siporo yazamuye amaboko ayananura ndetse ananura n'amaguru.

Icyumba kirimo ama etajeri, akaba apanzemo imiti iri mu ducupa tw'ingano zitandukanye, akaba apanze neza, bakurikije buri bwoko bw'umuti.

Ahantu hari imiti iri mu ducupa dutandukanye ndetse n'ingano zitandukanye hari imiti imwe iri mu dukarito dusa umuhondo turiho akabara gato k'icyatsi.

Umuganga uri mu cyumba cy'isuzumiro, afite ibintu mu ntoki, bigaragara ko hari ibyo ari gupima, kugira ngo atange ibisubizo, abiha umurwayi waje kwivuza

Iki ni igiti cy'ikimera abantu benshi mu Rwanda bakizi nk'umuravumba, kikaba gikorwamo imiti myinshi cyane yifashishwa mu bitaro mu kuvura indwara.

Ibyatsi byiza ubona bitoshye, hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi gakondo mu mwaka wibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Hano hari inzu irimo icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti cyangwa se ibini buzwi nka farumasi, turimo turabona imiti iri mu bwoko butandukanye ndetse no mu ducupa twinshi dufite amabara atandukanye.

Hano hari ibyatsi biri mu bikoresho bitandukanye. Ibyo byatsi bikorwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya iri mu ibara ry' umweru n'agapfukamunywa ndetse n' akantu yambaye mu mutwe. Akaba ari imbere y' ameza ariho uducupa dutandukanye.

Igiti kirekire bigaragara ko gifite amashami maremare, munsi yacyo hari ibindi biti bigufi, hari na kimwe turi kubona gifite ibara ritukura.

Agacupa gatoya gafite umupfundikizo ujya gusa umuhondo, karimo amavuta akoreshwa nab'igitsina gore bayasiga ku munwa kugira ngo utuma, baratubwira ko byoroshye kugakoresha.

Ishusho igaragaza igitunguru gikasemo kabiri ndetse n'icupa wagira ngo hari ibintu biririmo, hari kandi n'indimu ikasemo kabiri. Hari amagambo yanditse mu ibara rijya gusa icyatsi avuga ngo baho neza tv.

Umuti witwa Revive hano batubwira ko ari igisubizo ku muryango, uyu muti uvura gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse ugakumira n'indwara zifata igitsina cy'umugabo.

Igihe urwaye cyose ntabwo ari ngombwa kwihutira kujya kwa muganga, hari n'imiti ushobora gukoresha ya gihanga kandi ikakuvura.

Uducupa dutanu turimo imiti ikoreshwa bavura indwara zitandukanye, ariko ubona ko atari imiti igezweho. Imwe dusanga kwa muganga.

Iyi ni imiti iri mu bikoresho bitandukanye ndetse biri no mu ngano zitandukanye, harimo ikorwa mu gikakarubamba ndetse imbere turimo turabona n'isabune ikorwa muri avoka.

Ibimera bivamo imiti itandukanye, hano hari umuti uri mu gacupa gasa icyatsi ukorwa mu muravumba.

Igiti gifite amashami atandukanye kandi maremare, munsi yacyo hari ibindi biti bitoya ndetse hari n'ikindi gifite ibara ry'umutuku.

Foreva burayiti tufu jeri ni umuti w'amenyo mwiza cyane, ufasha mu gusukura amenyo agasa neza ndetse ugafasha kurinda indwara zishobora gufata amenyo.

Udukoresho twinshi turimo imiti itandukanye ya kinyarwanda, bakoramo imiti ya kijyambere babanje kuyinyuza mu nganda, hariho n'ikiganza kirimo imiti itandukanye.

Ni iduka ricuruza imiti y'ubuvuzi iyi gakondo, harimo umugabo ugaragara ko ari we nyir' iryo duka, hari kunyura amakuru kuri televiziyo avuga ngo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Akagera medesine ni ikigo cy'ubuvuzi gifasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye nawe rero igihe barwaye ni byiza ko wagana ku bitaro bakaguha ubuvuzi.

Amacupa ane arimo imiti bigaragara ko ikorwa mu bimera hari rimwe risa umuhondo irindi risa umweru ndetse buri cupa rigiye riri ukwaryo.

Abantu babiri umugabo wambaye isengeri y'umutuku ndetse n'ikote ry'umukara, ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru ufite n'ingofero.

Umuti w'amenyo witwa foreva burayiti tufu jeri, akaba ari umuti wifashishwa mu gihe cyo gusukura amenyo igihe umaze kugira icyo ufata.

Ibikoresho bitandukanye bya kinyarwanda birimo imiti itandukanye ya gakondo bagiye banika. Harimo n'agasekuzo bakoresha.

Igiti kirekire gifite amashami maremare ubona nayo afite amababi menshi, munsi yacyo hari ibyatsi bigufiya ndetse n'ibindi bisa nk'aho byisumbuyeho.

Ni byiza kurya ibiryo byujuje intungamubiri, harimo nk'urugero igipapayi gifasha mu kurinda indwara umubiri, ndetse kikanongera intungamubiri.

Iki ni icyatsi cy'igikakarubamba, cyifashishwa mu gukorwamo imiti ivura indwara zitandukanye, aho kinyuzwa mu ruganda kikabasha kuvamo imiti igezweho.

Ibyatsi byo mu bwoko butandukanye byifashishwa mu gukorwamo imiti igezweho itangwa mu bitaro igahabwa abarwayi bagize uburwayi butandukanye.